Reka tuvuge ku masosiyete acuruza imodoka nshyashya n'i izakozwe z'ubwoko butandukanye mu rwanda zirimo n'izifite ibirango binyuranye harimo nkiyakozwe bibiri na cumi n'umunani yitwa suzuki ihagaze igiciro cya miliyoni cumi n'umunani.

Amasosiyete akora ubucuruzi bugurisha imodoka nshya n'izakozwe ku bakiriya, atanga ubwoko butandukanye bw'imodoka harimo iziboneka mu gihugu ndetse n'izitumizwa mu mahanga, banatanga serivisi zinyuranye nk'inguzanyo kuri zo kuzisimbuza n'ingwate.

Amasoko, reka twibande ku hantu abantu benshi bataziranye bakunda guhurira dushobora kuhasanga ibintu bitandukanye harimo imbuto n'imboga ndetse n'ibindi byinshi hakaba ababicuruza, abo nibo twita abacuruzi.

Isoko rihendutse ryo mu cyaro ritanga imbuto imboga n'ibiribwa n'ibikoresho by'ibanze ku giciro gito abacuruzi bato n'abahinzi bungukira muri ubu bucuruzi rikorwa ku minsi runaka rigafasha abaturage kubona ibibatunga mu buryo bworoshye.